Aha ndabona ari mu isantere y'ubucuruzi hari umuntu ugiye kubitsa cyangwa kubikura muri taranzagisheni.

Aha ndabona ifoto y'umushoramari, aha habereye ihuriro ry'abashoramari, hari mu karere ka Nyagatare.

Aha ndabona ari inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyambaro ndetse n'ibikoresho biryamirwaho, biryamirwa nka materalase, imikeka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imbere yanjye ndabona urusengero ruiriho umusaraba, mu ifoto y'umuntu ahangaha ifoto mbona rero isobanuye ko abantu bateraniye ku iteraniro cyangwa se ku rusengero.

Aha ndabona ishusho y'urusengero rw'abakatolike mbese aha hantu hakorerwa igikorwa cy' iteraniro rusange ku bemera imana.

Aha ndabona ari umwanya wo kuruhukiramo cyane nka hoteli se, moteri se, ko ndabona hakurya kuri pisine ahantu abantu hari hoteli cyangwa moteri.

Aha ndabona ari icyumba cy'umuntu araramo cyane nk'icyo muri moteli cyangwa hoteli, ndabona n'uburiri nkabona intebe nkabona amarido, amatara, intebe n'ameza cyangwa se ahantu batereka ibintu hariho indabo se telefone, imashini se ahantu hasa neza.

Aha ndabona ari restaurant mini cyangwa motel cyangwa hotel, ndabona inkoko, isafuriya cyangwa se igikoresho kirimo isosi yabyo mbona.

Aha ndabona centre y'ubucuruzi, umuhanda nyabagendwa, abantu babisikana ndetse n'uyu munyegare uhetse amabati, uvuye kugura amabati.